Ikigo cy'ubwishingizi kiri kwerekana uburyo wakwizigamira ukoresheje murandasi n'ibyo wakanda kugira ngo wizigamire. Kiri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umukara.

Umukobwa wambaye imyambaro y'umweru n'umukara ufite n'igikapu bigaragara ko agiye mu mahanga ari kwamamariza ikigo gishinzwe ubwishingizi bw'ingendo zijya mu mahanga hakaba hariho umurongo wahamagara kugira ngo babe bagufasha ndetse n'imbuga nkoranyambaga wabasangaho.

Ikinyabiziga cyo mu masiganwa kiri mu muhanda w'umukara, uriho icyapa kiri kwamamaza ubwishingizi, ndetse hari abantu benshi bashungereye baje kukireba

Umugabo wambaye imyambaro y'umukara, ufite icyapa gisa umweru cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu kiri kwamamaza ikigo gishinzwe ubwishingizi.

Umugabo wambaye imyambaro iri mu mabara y'umweru n'umukara wifashe mu maso, inyuma ye hari ikibaho cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'iry'umuhondo kandi icyo cyapa kiriho na nimero wahamagara mu gihe ufite ikibazo cy'impungenge z'ibihombo mu bucuruzi bwawe.

Uburyo bwo kuba wakohereza amafaranga kuri konti ndetse no ku mabanki biri mu ibara ry'icyatsi n'umweru n'amagambo yandikishije ibara ry'umukara.

Imbonerahamwe iri ku rupapuro rw'umweru ifite amabara asa n'ivu, hari kandi imibare iriho ndetse n'amagambo biri mubara ry'umukara.

Ahantu hacururizwa amavuta atandukanye ari mu macupa atandukanye, harimo ari mu macupa asa ubururu, umweru ndetse andi akaba asa umutuku.

Iduka ricuruza ibintu byinshi byiganjemo imikufi ndetse n'ibikapu by'abagore harimo ibisa umweru, umukara n'ibisa nk'igitaka biteretse hejuru y'udutebe dukoze mu mbaho dufite ibara ry'umutuku.

Ahantu hakorera ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'inkweto by'abagabo ndetse n'iy'abagore, harimo kandi ishusho imanikwaho cyangwa se yambikwa imyambaro kugira ngo abantu baze kuyigura bishimye.

Icyumba kirimo ibintu bigaragaza umuco, harimo amahembe, harimo n'inkoni zitatse amasaro, harimo uduseke, harimo inkangara, harimo ndetse n'imyambaro ikoze mu myenda y'igitenge, ndetse n'ubupfukamunwa budoze mu myenda y'igitenge.

Umusaza wambaye umwambaro w'umuhondo n'ingofero y'umweru izengurukijeho akantu k'umukara ari kumwe n'undi mugore wambaye umwambaro w'ubururu bwerurutse, bari imbere y'igikoresho k'ikoranabuhanga.

Iduka rigezweho ricuruza imyenda igiye itandukanye harimo iy'abagore n'iy'abagabo imipira irimo uturongo dutambitse n'utumanutse ndetse n'amakanzu y'amabara harimo ay'icyatsi ay'umuhondo ay'umutuku n'andi.

Umwirabura ahagararanye n'umuzungu, umuzungu afite agakapu k'umutuku, bafite ikirango cy'urufunguzo, imbere yabo hari imodoka ifite ibara ry'ifeza n'umukara.

Abagabo babiri b'abirabura n'undi umwe w'umuzungu bafite udukapu dusa umutuku n'icyapa gisahushanyijeho urufunguzo, inyuma yabo hari imodoka y'umweru n'umukara n'umuhondo.

Ibinyabiziga bitatu byo mu ruganda rukora ibinyabiziga rwo mu Bwongereza, ni ibinyabiziga bibiri bisa umukara n'ikindi kimwe gisa ibara ry'ubururu, inyuma yabyo hahagaze umugabo hari n'undi wicaye.

Ibinyabiziga byagenewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange biri mu ibara ry'umweru ndetse n'ikirango cy'ikigo bikorera cyanditse mu magambo yandikishijwe ibara ry'ubururu.

Ahagaragara nk'uruganda rucuruza ibinyabiziga, harimo ikinyabiziga cyiza cyane cy'ibara ry'ivu, ndetse harimo n'umukara, kikaba ari ikinyabiziga bigaragara ko ari ikigezweho.

Ibinyabiziga bitatu biri mu ibara ry'icyatsi byagenewe gutwara abagororwa hamwe n'umugabo umwe uri guhereza agakapu gasa ibara ry'umutuku, harimo akaziga gasa umweru ari guhereza ushinzwe umutekano wambayere impuzankano y'umukara.

Abagabo babiri bari guhererekanya icyapa kimeze nk'imfunguzo inyuma yabo hari imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'umukara imbere yabo kandi hari agakapu k'umutuku.

Ikinyabiziga cy'umukara n'umweru cyahishwe ibirango kikaba cyarakozwe mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda, kikaba gihagaze mu muhanda w'umukara kiragurishwa miliyoni cumi n'eshanu z'amanyarwanda.

Ahantu hacururizwa ibinyabiziga bigezweho, hari ikirango cy'ibyo binyabiziga kiri mu ruziga, hari kandi amabara y'umutuku n'umweru ndetse n'umukara.

Ibinyabiziga bitwara abantu mu buryo bwite, bihagaze ku buryo bikurikiranye, habanza igifite ibara ry'umweru, hagakurikiraho igifite ibara ry'umukara, hagakurikiraho na none igifite ibara ry'umweru.

Abaturage baje kuri banki kubitsa abandi kubikuza bari ku murongo bari kuganira n'ushinzwe kwakira amafaranga y'abantu yicaye mu biro bye imbere ye hari mudasobwa.

Ikigo gishinzwe umutekano mu Rwanda gifite abakozi bambaye impuzankano z'umukara harimo n'utubara tw'ivu ndetse n'umutuku, imbere yaho hari ikinyabiziga kiriho imibare wahamagara.

Ifaranga rya rimwe ry'igihugu cy' u Rwanda ryo hambere, harimo ikirangantego cy'igisiga gihagaze hejuru y'agashushanyo ka mpandeshatu.

Umugabo bigaragara ko afite amafaranga menshi cyane, hari imishandiko ine iziritseho utuntu tw'umweru ndetse kandi afite n'andi mafaranga make mu ntoki.

Umuntu uri kubara amafaranga menshi yiganjemo inote z'igihumbi, akaba ari amafaranga y'amanyamahanga, imbere ye kandi hari akabaramafaranga karimo umubare ijana.

Abakozi bari mu kazi umuhungu n'umukobwa bambaye udupfukamuwa, imbere yabo hateretse za mudasobwa ndetse kandi ku mpande zabo hari amacupa arimo amazi ndetse imbere yabo hari n'undi ufite ikaramu y'igiti.

Inoti ya hambere y'amafaranga igihumbi yo mu Rwanda igaragaza ibirunga ndetse n'amashyamba, iyi note ikaba ifite amabara y'ubururu ndetse n'ubururu bwerurutse n'andi yandikishije ibara ry'umukara.

Inyubako nziza yubatswe kuburyo bugezweho, ifite inkuta zifite amabara y'umweru, irimo umuntu ufite ikaramu n'urupapuro, imbere ye hari mudasobwa, yambaye imyambaro y'ubururu bwerurutse n'umukara.

Umugabo bigaragara ko ari umukozi wa Banki, imbere ye hari imishandiko y'inoti zitukura z'amafaranga ibihumbi bitanu, yambaye umwambaro usa ubururu.

Imashini ibara amafaranga, hari amabandari agera muri arindwi cyangwa umunani ndetse muri iyo mashini harimo imibare ijana.

Inoti y'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bitanu ifite ibara risa n'umutuku werurutse hakaba hariho uduseke tubiri ndetse n'akandi karango kari mu ishusho y'uruziga hakaba harimo ikirangantego cy'u Rwanda.

Ifaranga ry'atanu rirambitse ku ikaro, ririho ikirangantego cy'u Rwanda, kiirimo agaseke ndetse n'ishaka n'ingabo.

Umukozi wa banki ndetse n'uje kubitsa amafaranga. Uje kubitsa amafaranga arahagaze, mu gihe umukozi wa banki yicaye, imbere ye hari mudasobwa ari kurebamo, mu gihe uje kubitsa we ari kubara amafaranga ye.

Umugabo urimo arabara amafaranga mu gakoresho kagenewe kubara amafaranga, imbere ye hateretse amabandari menshi y'amafaranga agiye atandukanye, harimo inoti za magana atanu nyinshi.

Umuntu bigaragara ko ari kubara amafaranga menshi imbere ye hari amabandari y'amafaranga menshi azungurukijwe n'akagozi gasa umweru acigatiye kandi n'andi mafaranga bigaragara ko ari amadorari.

Ahantu hanini, heza, hafite inkuta ziri mu ibara ry'ubururu, bacururizamo ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo imitobe ndetse n'amata, harimo umwana mutoya ndetse n'umukobwa n'umusore.

Ahantu hateguyewe neza hacururizwa ibyokurya nk'ibyo kunywa, hari amabara y'ubururu ndetse n'umweru, hari igikoresho gishyirwamo icyayi ndetse n'ikindi gikorwamo umugati ukoze mu ngano.

Ahantu hakusanyirizwa amata ndetse bakanayacuruza, hari inkuta zifite ibara ry'ubururu, ndetse hari n'ameza afite ibara ry'umweru.

Ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda kiri kwerekana gahunda yo kohereza amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Abagabo babiri bari kuganira, umwe yambaye umwambaro w'umukara undi yambaye umwambaro w'umweru, imbere yabo hari ibipapuro biri mu mabara agiye atandukanye, harimo iby'umweru ndetse n'iby'icyatsi, hakaba hari n'amakaramu ari mu ibara ry'umweru.

Imibare itondetse ku murongo kuva ku mubare rimwe kugeza ku mubare cumi na rimwe; igaragaza ibigendanye n'ibicuruzwa by'ikigo gishinzwe itumanaho hahiswemo umubare karindwi.

Imbonerahamwe y'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda yerekana uburyo wakoherezamo amafaranga cyangwa se wakwishyuramo ibintu ukoresheje murandasi. Hariho imibare kuva kuri rimwe kugeza ku icyenda, ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Uburyo bw'irembo ushobora kwishyuramo ukoresheje imirongo y'itumanaho harimo uburyo ushobora kuba wakwishyura ukanzekannyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyeri gatanu akanyeri rimwe ugakurikizaho ibyo ugomba kwishyura ugashyiraho akadirishya nibwo buryo.

Urupapuro rw'umweru rugaragaza inyemezabwishyu, ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, rurerekana ibyaguzwe ndetse n'igihe byaguriwe n'umusoro wabyo.

Inyemeza bwishyu y'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda. Kiriho ibigendanye no kwishyura, hakabaho aho yishyuriye, ndetse n'umubare w'ayo yishyuye. Hari ndetse n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Urupapuro ruriho inyemezabwishyu y'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, hariho n'ikirangantego cyacyo kiri mu mabara y'umuhondo, ubururu n'icyatsi. Inyemezabwishyu irerekana kandi ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda ndetse ikerekana n'amazina y'uwishyuye n'amafaranga yishyuye.

Inyemezabwishyu y' ikigo gishinzwe imisoro n' amahoro mu Rwanda kigaragaza uruganda rukora amarangi ko rwishyuye, ndetse hakagaragara n' igihe bishyuriye n' amafaranga bishyuye uko angana.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amagambo y'umukara, ni inyemezabwishyu y'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihugu cy'u Rwanda. Hariho kandi ikirangantego kiri mu mabara y'umuhondo, ubururu n'icyatsi.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, ndetse n'andi yanditse mu ibara ry'umutuku ryerekana icyemezo cy'uwafashe ubwishingizi.

Inyemezabwishyu y'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, kirerekana amazina y'uwishyuye ndetse n'ibimuranga, kikerekana amafaranga yishyuye ndetse n'igihe yayishyuriye.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara bigaragara ko ari inyemezabwishyu y'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro gifite ikirangantego kiri mu mabara y'icyatsi, ubururu n'umuhondo hariho kandi igihe yishyuriweho.

Inoti y'amafaranga magana abiri yo mu gihugu cya Kongo, igaragaza abagabo babiri barimo barahinga ndetse hariho n'imibare igenga iyo noti.

Abantu babiri b'abirabura bari guhererekanya amafaranga y'abanyamahanga, umwe ari guhereza undi amadorari, undi ari kumuhereza amafaranga. Umwe yambaye imyambaro y'umukara.

Umugabo uri ahantu mu cyumba afashe amafaranga agiye atandukanye, harimo amanyarwanda ndetse n'amanyamahanga mu manyarwanda harimo inoti y'igihumbi ndetse n'inoti y'ibihumbi bitanu.

Umugabo urimo urabara amafaranga y'amadorari y'amajana, ni umugabo wirabura wambaye imyambaro yera.

Umuntu uri kubara amadorari amafaranga y'abanyamahanga ndetse imbere hakaba hari n'andi mafaranga menshi agiye atandukanye, hari n'akamashini bifashisha bari kubara amafaranga.

Amafaranga inoti y'atanu yo mu bushinwa iriho umugabo handitseho kandi amagambo ari mu gishinwa ndetse n'indi mibare n'inyuguti.

Abagabo babiri bari kubara amafaranga menshi cyane, harimo amabandari abiri ndetse n'andi mafaranga agiye atandukanye y'amadolari, bigaragara ko bari kuyabarira muri banki.

Amafaranga yo mu gihugu cya Congo agiye atandukanye harimo inote z'igihumbi iza magana atanu, za magana abiri, n'iyijana inote. Inote y'ijana ishushanyijeho inzovu iya magana atanu iriho abagabo bari gucukura, iya magana abiri iriho abari guhinga.

Umugabo wicaye uri ahantu mu cyumba hari ameza asa umweru ari kubara amafaranga y'amanyamahanga agiye atandukanye harimo; amadorari n'andi.

Inote y'ibihumbi icumi ndetse n'iy'ibihumbi makumyabiri byo mu gihugu cya Kongo, inoti y' ibihumbi icumi iriho ibishushanyo by'imbogo ndetse n'inote y'ibihumbi makumyabiri, hariho ibishushanyo by'impara.

Umugabo w'umwirabura uri mu nyubako ari kubara amafaranga, bigaragara ko ari ayo mu gihugu cy'ubuhinde hariho umusaza uri guseka wogoshe umutwe, wambaye amadarubindi.

Imbonerahamwe iri kugaragaza uburyo amafaranga agenda avunjishwa harimo ibihugu bigiye bitandukanye n'ibiciro ku bigendanye n'ivunja harimo ibihugu nka Amerika, Uburayi Ubwongereza, Kanada, Turukiya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ahantu bigaragara ko havunjishirizwa amafaranga, hari ibyapa byinshi bigiye biri mu mabara atandukanye, hari ibisa umukara, umweru, ubururu, icy'umukara kinini gihari cyanditsemo amagambo yandikishijwe amabara y'umuhondo.

Inzu iriho ibyapa byinshi bitandukanye biri mu mabara atandukanye hari ibyamamariza abacuruza ibikoresho byo ku ishuri harimo amakaramu y'igiti, ibikapu, ndetse hari n'ibindi byamamariza imiyoboro ishinzwe itumanaho.

Inzu ivunjishirizwamo amafaranga ni inzu ifite ibirahure ndetse n'inzugi zikoze mu byuma, yandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ari mu rurimi rw'icyongereza hari nk'icyapa kandi cyerekana ibiciro.

Inyubako ivunjishirizwamo amafaranga ifite icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo y'umutuku, n'andi yumukara ndetse n'imibare, hari ku mpande yaho umugabo uhagaze, hari n'ibindi byapa bigaragaza ahandi bavunjishiriza amafaranga.

Ahantu bavunjira amafaranga hari amashusho agiye atandukanye, muri yo hari ishusho iriho abana ndetse n'ababyeyi hari n'icyuma kandi gikoreshwa habikuzwa amafaranga.

Icyapa cyerekana ahantu bavunjira amafaranga agiye atandukanye. Cyanditswe mu magambo ari mu mabara agiye atandukanye, harimo ayanditswe mu ibara ry'ubururu n'andi yanditswe mu ibara ry'umukara n'ari mu ry'umutuku ndetse n'imibare igiye igitandukanye.

Intebe nziza ibajijwe mu giti, iruhande rwayo hari akabati kabaje nako mu biti neza kagiye karimo ibiti bisobekeranyije ndetse n'ibindi biti bigiye bihekeranye, hejuru yako kandi hari igikombe.

Urukarabiro rugezweho rukoze mu rubaho rwabajwe neza n'abahanga, ruri munzu nziza ihenze ifite imitako myinshi igiye itandukanye harimo n'itara.

Ahantu bakorera intebe zigezweho zifite amabara agiye atandukanye, harimo iz'ubururu bwerurutse, ndetse n'iz'ubururu bwijimye, ndetse n'ameza akoze mu mbaho zisa neza, hari n'umukindo kandi hicaye umugabo.

Ahantu hateranyirizwa imbaho hari ibikoresho byifashishwa mu guteranya imbaho hari imbaho zikase zitegerejwe kuba zahuzwa.

Ahantu heza hatatse, hari intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza, hari intebe zifite amabara y'ivu ndetse n'izindi zifite amabara y'ikigina, hakaba hari n'ikizimya umuriro ku mpande ndetse hari n'ibirahure.

Ahantu heza hari inzugi zisa icyatsi zifite ibirahure bisa umukara, imbere hari utubati dukoze neza dufite amabara y'umweru ndetse n'intebe nziza zikoze mu bitambaro ndetse hari n'akameza gakoze mu mbaho.

Imbaho nyinshi zigiye zipanze zicaweho n'umugabo wambaye imyambaro iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara, ku mpande yazo hari imyenda iri mu mabara y'umutuku, umweru, ubururu nandi atandukanye.

Aha hantu ho kwakirira abantu, hagaragara intebe ziteye neza, ziteguye ndetse n'ibitwikira abantu izuba, kugira ngo ritabageraho.

Inyubako nziza z'amagorofa zifite amabara asa umutuku ndetse n'andi asa nk'icunga rihishije, hari kandi ibiti byiza birebire by'icyatsi ndetse n'imitaka y'umukara.

Inzu nziza igezweho irimo inkuta zifite amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara, harimo kandi intebe zisa umukara n'izindi zisa ikigina, harimo n'amatara agezweho.

Hoteri yerekana ibicuruzwa byayo ndetse n'ibiguzi byabyo, harimo ibintu bijyiye bitandukanye harimo nk'inyama z'ingurube, ndetse n'inyama zokeje harimo kandi n'inyama z'inkoko yaba izokeje, izitogosheje n'izindi zitandukanye.

Inzu nziza nini ifite amagorofa atatu, ikabi ifite aho kwakirira abantu hatatse neza, hari intebe ndetse n'imitaka yo kubatwikira izuba, hari kandi amazi magari yo kogamo.

Ahantu heza ho kwiyakira hari amazi magari yogamo abahaje, hari ndetse n'imitaka irinda abantu izuba mu gihe hari izuba ryinshi, hakaba n'intebe zo kwicaraho umuntu afata akayaga. Ayo mazi harimo ibishushanyo by'ibara ry'ubururu.

Ahantu ho kwiyakirira heza hari inzu ifite amagorofa menshi, imbere yayo hari ibiti byiza by'imikindo hakaba n'amazi magari yo kogamo mu gihe waje kuharuhukira, hari kandi n'intebe zo kwicaraho uri gufata akayaga.

Ahantu heza hateguye hari kwaka amatara, hari intebe ziri ku murongo zisa icyatsi, zikaba zikoze mu byuma, hari n'ameza kandi ateguye neza, agiye ariho amacupa y'amazi.

Icyumba cyiza kinini giteguye neza, cyubakishije imbaho, kirimo intebe n'ameza biteye neza, ahantu hariho n'ibitambaro bisa umweru ndetse n'ibisa ikigina, hariho n'ibikombe bikoze mu birahure.

Inyubako ifite amagorofa atatu, isize amabara y'ubururu, umweru, umukara ndetse munsi yayo hahagaze, ikinyabiziga gifite ibara ry'umutuku.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa kijyambere irimo ibiro bigiye bitandukanye harimo ibiro bishinzwe ubwishingizi bufite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo n'amagambo yandikishije umweru.

Inyubako nziza mu zigezweho, ifite amagorofa munsi yayo, hari umugore wambaye imyambaro y'umukara ndetse n'umweru, hejuru ye, hari icyapa kigaragaza ko bahafunguye vuba, kiriho umukobwa wicaye wambaye imyambaro y'umukara.

Ibiro biri ahantu hameze neza, harimo amabara y'umukara, umutuku ndetse n'umweru, hicayemo umugore wambaye umupira w'umweru, imbere ye hari mudasobwa ndetse harimo n'intebe zigezweho zisa umukara.

Inyubako nziza igezweho, ifite amagorofa n'ibirahure birimo amabara y'icyatsi ndetse hejuru yayo hari ibiti byiza bikoze umutako.

Ikigo gishinzwe ubwishingizi kiri mu igorofa ryiza, iruhande rwacyo hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye; hari ibiri mu mabara y'umweru, n'amabara y'umukara. Impande yacyo kandi hari umuhanda w'umukara urimo imirongo icagaguye y'umweru ndetse n'imirongo yo ku ruhande y'umweru n'umukara.

Ikigo gishinzwe ubwishingizi, imbere yacyo hahagaze ipikipiki y'umutuku ndetse ifite n'intebe yo kwicaraho y'umukara, ikaba ifite n'ingofero y'umutuku, imbere y'icyo kigo kandi hari ibirabo biteye neza.

Ishusho igaragaza inzu y'igorofa ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara irimo n'amatara ari kwaka, hari kandi umukobwa wumiwe ufite terefoni mu kiganza.

Ikarita y'inguzanyo ya Banki ya kigali, igaragaza aho ugiye kwaka inguzanyo yuzuza imyirondoro ye n'amatariki agiye kwakiraho umwenda n'ibindi byose bisabwa kugira ngo asabe umwenda.

Abamama babiri bari guseka bafite icyapa mu ntoki kigaragaza ko hafunguye, umwe afite imisatsi miremire yijimye, undi ateze igitambaro mu mutwe...

Inyubako y'amagorofa bigaragara ko ikoreramo ibintu bigiye bitandukanye ku gice cyo hasi hakoreramo banki icyo hejuru harimo ibigendanye n'imikino y'amahirwe icyo hejuru naho harimo indi banki ndetse n'ikigo gishinzwe ubwishingizi.

Icyapa cya mpande enye kirimo amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, hakaba hariho kandi n'igishushanyo cyerekana ibikorerwa aha kiri mu mabara y'umukara n'icyatsi, haba hasi hari ibinyabiziga bitatu by'umukara n'ikindi gisa n'ivu hari kandi umuhanda w'umukara urimo amapikipiki ndetse n'ibindi binyabiziga.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo amashu, ubugari, ibishyimbo, imyumbati, ibijumba harimo n'umuguzi wambaye igitambaro mu mutwe afite ishu mu ntoki.

Abantu bari mu isoko bari kugura ibintu bigiye bitandukanye, bari ku murongo harimo uwambaye umwambaro w'umuhondo, ndetse n'igitenge anateze igitambaro cy'umukara mu mutwe hari n'undi wambaye ishati irimo uturongo tumanutse n'udutambitse.

Umugore wicaye mu isoko bigaragara ko yishimye ari gucuruza ibiribwa bigibye bitandukanye harimo inyanya nziza ndetse n'imineke ndetse harimo n'ibitunguru n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Inyubako nini cyane yubatse mu buryo bwa kijyambere ikaba ifite amagorofa ane, ikaba ifite ibirahure biri ku mpande zayo, iruhande rwayo hari umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga byinshi ndetse n'abantu bari kubigendamo.

Inyubako y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imyenda y'amabara agiye atandukanye, harimo isa umukara, ubururu, ubururu bwerurutse, umweru, umutuku ndetse n'andi mabara, iyi nyubako ikaba kandi irimo amashanyarazi.

Isoko rinini cyane ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, haba ibiribwa ndetse n'imyambaro, harimo n'abaguzi ndetse n'abagurisha benshi bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye, harimo n'abahetse abana mu mugongo.

Abaturage benshi bari ahantu hacururizwa ibyo kurya, harimo abambaye ibitambaro mu mutwe, abandi bambaye ingofero mu mutwe, hari kandi inzu ifite amagorofa abiri ndetse n'amapoto atwara insinga z'amashanyarazi.

Abamama bigaragara ko bari gucuruza imbuto, hari umumama waje kugura izo mbuto, akaba afite ubumuga bigaragazwa, n'ikigenderwaho cy'abafite ubumuga.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, higanjemo ibyo kurya birimo amashu, ibibiringanya, ibitunguru by'amababi maremare, ndetse n'ibisa umutuku, harimo na voka.

Umugore uri ahantu mu isoko ririmo ibicuruzwa byinshi higanjemo ibyo kurya harimo amashaza, inyanya, imineke, umuceri, ndetse n'ibishyimbo. Hari n'igikapu gikoze mu bi bitenge.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo ibitunguru bisa umutuku harimo n'ibindi by'amababi asa icyatsi hasi bigasa umweru, harimo kandi abaguzi ndetse n'abagurisha ndetse harimo n'inyanya n'ibindi byo kurya bitandukanye.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye harimo ibitunguru by'amababi asa icyatsi, harimo n'ibitunguru by'umutuku, inyanya, pavuro, harimo n'aba mama babiri.

Imitako igerekeranye yakozwe mu migwegwe ndetse no mu yandi mabara agiye atandukanye harimo amabara y'umweru, umukara, ubururu, umutuku, icyatsi, umuhondo n'andi menshi igihe atandukanye.

Umuntu uri kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga, mu kigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda. Iruhande rwe hari ipikipiki ihagaze ndetse bigaragara ko ahantu ari, ari aho bacururiza ibikomoka ku bicanwa n'amavuta.

Akazu k'umuhondo k'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda kari impande y'umuhanda w'umukara urimo abanyamaguru benshi ndetse kandi hari n'umucuruzi ukarimo.

Akazu k'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda gafite amabara y'umuhondo ,umukara ndetse n'umweru kari impande y'umuhanda w'umukara ,hari n'icyapa kigaragaza imibare y'umuhanda.

Abantu bakikije akazu k'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda. Karimo umucuruzi, hari n'abaguzi bagera kuri batanu, batatu muri bo ni abagabo abandi babiri ni ab'igitsina gore.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'akazu gasa umuhondo k'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda ndetse n'abandi bagore babiri hamwe n'umucuruzi uri mu kazu.

Ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda, gifite abakozi bambaye imyambaro y'imihondo ndetse n'umukara, imbere yabo hari abantu bari gusobanuza ibigendanye n'akazi bakora harimo uwambaye umupira uciye amaboko uriho imibare inyuma.

Akazu kubatse mu buryo bwa mpande enye gasa ibara ry'umuhondo, umukara ndetse n'umutuku n'ubururu hariho umugabo uri kwamamariza ikigo gishinzwe itumanaho iruhande rwako hari inzu ifite amabara y'ivu.

Abantu benshi bari ahamamarizwa ibikorwa by'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda, bakaba bambaye imyambaro igaragaza icyo kigo, harimo imipira, ndetse n'ingofero, hari n'undi wicaye imbere ye hari mudasobwa ari kumwe n'abandi.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, rigaragaza iduka rikorera kuri murandasi, riherereye i Kigali mu Rwanda, hariho ikirango kiri mu ibara ry'umutuku, cyanditsemo ya na pa.

Amaguru y'umukobwa ariho inzara zisize ibara ry'umweru, yambaye udukweto duciye bugufi tw'umukara turiho ibitambaro biri mu mabara y'umweru n'umukara. Bigaragara ko izi nkweto zigura amafaranga y'u Rwanda ibihumbi cumi na magana atanu.

Ushinzwe kujyanira abantu ibintu ku ipikipiki, ukorera ikigo cyitwa vuba vuba, ari gukuramo imizigo ayijyanira uwayimutumye.

Ikigo gikorera ubucuruzi kuri murandasi kirerekana ibicuruzwa byacyo ndetse n'ibiciro bihagaze harimo akabati keza kubatse neza hakabamo telefoni ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Umugore uri kwamamaza bigaragara ko yishimye, afite imisatsi myinshi, ibyo ari kwamamariza cyangwa abo ari kwamamariza, wabasanga ku mbuga nkoranyambaga bashyizeho ndetse n'imibare cyangwa umurongo ushobora guhamagara bakagufasha.

Ikigo gicururiza ibicuruzwa byabyo kuri murandasi, kiri kwerekana ibicuruzwa, kikerekana n'ibiciro byabyo mu mafaranga y' u Rwanda. Harimo n'igicuruzwa kigura amafaranga igihumbi n'ijana na mirongo itatu.

Ikigo gicururiza ku mbuga nkoranyambaga kiri kwerekana ibicuruzwa byacyo, ndetse n'ibiciro byabyo kikaba gikorera kuri murandasi.

Inzu nziza iri mu zigezweho, ifite inkuta zisize irangi risa nk'ivu, iyo nzu iherereye i Kigali ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine y'amanyarwanda.

Igikoni cya kijyambere kirimo imbuto ziteguye, kiri mu nyubako igaragara ko ikodeshwa, amafaranga ibihumbi bitatu magana atanu y'amadorari kuri buri kwezi, ikaba iherereye i Kigali.

Inzu nziza iherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali, irimo ubusitani bwiza bufite ibyatsi bitoshye, birimo n'igiti cy'imyembe, hari kandi n'umukindo. Iyi nzu ikaba ikodeshwa amafaranga Amadolari igihumbi n'ijana igihumbi na magana atanu ku kwezi.

Inzu nziza igezweho ifite ibikuta bisa umweru ndetse n'ibirahuri bisa umukara, harimo uburiri bushashe neza iyo nzu ikaba iherereye Kigali Kacyiru ikodeshwa amafaranga angana n'amadolari igihumbi na magana atanu ku kwezi.

Inzu nziza igezweho yubatse neza ifite ibikuta bisize amabara y'umweru ndetse n'utubati dukoze mu mbaho dufite amabara y'umweru iyi nzu iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali iragurishwa amafaranga miliyoni ijana na cumi n'eshanu.

Inyubako yubatse mu buryo bwa kijyambere ifite inkuta zifite amabara y'umweru, ifite n'igikoni cyiza gifite utubati tw'umukara ndetse hariho ku gikuta n'ikizimya umuriro kiri mu icupa risa umutuku, iyi nzu ikaba ikodeshwa mu mujyi wa Kigali i Remera ifite ibyumba bibiri.

Icyumba cyiza kigezweho gifite inkuta zifite amabara y'umweru, harimo utubati dukoze mu mbaho, ndetse n'igitanda gikoze mu mbaho, n'inzugi zikoze mu mbaho. Kikaba kiri mu nzu ikodeshwa amafaranga magana atanu na mirongo itanu y'amadolari ku kwezi, iyo nzu ikaba iherereye i Kigali.

Inzu nziza igezweho, ifite ibikuta bisize amabara y'umweru, ikaba ifite uburiri bushashe neza, iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali, ikodeshwa amadorari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi.

Inzu nziza yubatse mu buryo bwa kijyambere, igura miliyoni mirongo icyeda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, iherereye i Kigali mu Rwanda. Ikaba ari inzu ifite aho gushyira ikinyabiziga cyawe.

Inzu nziza igurishwa iherereye mu mujyi wa Kigali ifite ibikuta bisa umweru, ndetse harimo n'amatara iyi nzu ikaba iherereye i Kigali igurishwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni mirongo irindwi n'eshanu.

Igikoni cya kijyambere kiri ahantu heza gifite n'amashyiga ya kijyambere yo gutekeraho, hari kandi n'utubati two korohereza umutetsi mu gufata ibyo akeneye mu gihe ari guteka bimworoheye.

Inyubako nziza iri mu bwoko bw'izigezweho kubera ko igeretse inshuro imwe, iherereye ahantu ha yonyine, ikodeshwa kandi ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwiherero bubiri.

Inzu nziza igezweho yo gukodeshwa irimo igikoni cyubatse neza cya kijyambere ikaba iherereye Kimironko muri Kigali, ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe ikaba kandi iri ahantu ha yonyine ikabikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Inyubako igeretse ifite amabara meza y'umweru ndetse n'ayo asa umuhondo n'umukara, hahagaze kandi umugabo wambaye imyambaro y'umweru n'umukara hari n'ibyatsi.

Ahantu wabona amacumbi akodeshwa muri Kibagabaga, ku mafaranga ibihumbi magana atatu, hakaba hafite ibyumba bibiri ndetse n'ubwiherero bubiri. Kandi ni ahantu heza, kuko hari amagorofa.

Inyubako ndende yubatse mu buryo bugezweho ifite amagorofa, ikaba yubakishije ibirahuri bisa ubururu n'inkingi ziri zifite ibara ry'umweru.

Inzu ya kijyambere y'igorofa iherereye i Kibagabaga ikodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi, ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwiherero bubiri.

Inzu y'amagorofa abiri yubatse mu buryo bwa kijyambere ikaba ikodeshwa iherereye Kigali Kibagabaga ikaba ifite ibyumba bitanu ndetse n'ubwiherero butanu ikaba ikodeshwa amadorari igihumbi na magana arindwi ku kwezi.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu yandikishijwe mo amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'andi ari mu ibara ry'umukara, byerekana ko bagurisha ndetse bakanagura cyangwa bagakodesha ubutaka binyujijwe kuri urwo rubuga batanze hasi.

Ikirango kigaragaza ubwubatsi ,kiri mu mabara y'umukara ,umutuku, umweru ndetse gishushanyijemo n'umuhanda w'umukara, uri mu turongongo tw'umweru tugiye ducagaguye.

Isoko rigaragara ko ricuruza ibinyobwa bijye bitandukanye, bigerekeranye, biri mu kabati. Hari umuguzi uri kugenda ahitamo ikinyobwa ashaka. Afite akagare batwaramo ibyo bahashye, gafite ibara ry'umutuku.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo inyanya, amashu, karoti, ibitunguru, ibishyimbo, umuceri, harimo abaguzi n'abagurisha benshi bambaye imyambaro iri mu mabara nk'ubururu, umutuku, umukara, n'indi.

Isoko rinini ricururizamo abantu bacuruza ibikoresho byinshi bitandukanye byo mu rugo, yaba ibijyamo ibiryo cyangwa se ibijyamo ibyo kunywa, harimo kandi umugore wambaye imyambaro y'umukara ufite n'igikapu cy'umutuku.

Akabati kari ahagaragara ko hacururizwamo ibinyobwa bigiye bitandukanye bigerekeranye biri mu mabara meza agiye atandukanye harimo ibisindisha n'ibidasindisha hari ibiri mu mabara y'umuhondo, hari ibiri mu mabara y'umweru ndetse no mu mabara y'umukara n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umuntu wambaye imyambaro y'ubururu, ufite inyundo mu ntoki ndetse wambaye n'ingofero y'ubwirinzi mu gihe cy'imirimo y'ubwubatsi, ari kwamamariza ikigo cy'ubwizigame bw'igihe kirekire bwitwa ejo heza.

Ikigo gishinzwe ubwisungane mu kwivuza cya mituweri, gifite ikirango kiri mu mabara y'icyatsi, ndetse n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Ikinyabiziga kiri kwamamarizwamo uburyo bwo kwizigamira bw'ejo hazaza hari abantu bashungereye bagiye batandukanye harimo n'abanyonzi, umuyobozi ari kubagezaho gahunda hari n'ushinzwe kuvangavanga imiziki, imbere ye hari mudasobwa.

Abantu bicaye kwa muganga bigaragara ko bategereje kwivuza, harimo umugabo n'abagore ndetse n'abana, harimo uwambaye igitenge kiri mu mabara y'icyatsi n'umweru n'umukara n'umuhungu wambaye umupira urimo amabara y'ubururu bwererutse n'umukara, afite igipapuro cy'umuhondo mu ntoki.

Abantu bari mu cyumba gifite inkuta zisa umuhondo n'umweru, bicaye ku ntebe zibajwe mu biti harimo abagore ndetse n'umugabo, hari abafite impapuro.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya, bari kwamamariza ikigo cyafunguye ishami Nyakabanda mu Gacuriro.

Isoko ricuruza ibintu bigiye bitandukanye riri ahantu hari idara rifite amabara agiye atandukanye, harimo ubururu, umuhondo n'andi. Ibicuruzwa kandi birimo bigiye bigerekeranyije ku buryo bwiza, harimo ibiri mu mashashi y'umutuku, ubururu n'umuhondo.

Iduka rinini ricuruzamo abantu rifite ibicuruzwa bijyeye bitandukanye, harimo ibikoresho byo murugo, ndetse n'ibiribwa hari umugabo wambaye imyambaro y'umukara, n'ubururu ari kuganira n'umugore ufite imisatsi iboshye wambaye imyambaro y'umuhondo n'umukara.

Umucuruzi uri mu isoko ry'imbuto ndetse n'imboga, yambaye imyambaro y'icyatsi n'ubururu, muri iryo soko harimo imboga zigiye zitandukanye, nka karoti ndetse n'izindi, hakabamo n'imbuto zigiye zitandukanye.

Umugabo wambaye imyambaro y'ubururu, ndetse n'ingofero y'umukara, yandikishijeho amagambo y'umweru, arimo arahitamo ibicuruzwa by'ubwoko bugiye butandukanye.

Inyubako ikoreramo ihahiro rizwi cyane mu gihugu nka simba imbere yaryo hari ikibumbano gikozwe mu ishusho y'intare, hari abantu bashinzwe umutekano bari imbere yacyo ndetse n'abandi baje guhahira muri iryo guriro.